Abantu bambaye imyenda ifite amabarasa y'icyatsi, ingofero y'icyatsi, imbere ya ho hariho amacupa menshi arimo ibintu bya rukoro, hariho umuntu uri hagati y'abantu abereka uko ibi bikoresho bikoreshwa, urabona ko bamuteze amatwi bumva inama abagira, uko bazakoresha ibi bikoresho biri muri aya bidomora.

Umuntu wambaye isarubeti y'amashashi uhetse ipombo, arimo gufuhira. Gufuhira abantu barabikunda kuko bituma umusaruro wiyongera, ndetse n'udusimba turi ku bibimera tukahava, iyo imbuto zifuhiwe zikura vuba zishishe, zimeze neza, bityo bigatanga umusaruro mwinshi cyane.

Ifi iri ku isahani, iruhande rwa yo hari karoti, inyanya ndetse n'ibirayi, ifi iraryoha cyane, abantu barayikunda, bikaba akarusho iyo batetse n'agafiriti muri biriya birayi, ndetse ifi bakayikaranga neza bayikarangishije inyanya na karoti.

Ifi yokeje iri ku isahani isa n'umweru. Iruhande rwayo hariho salade imeze neza cyane. Ifi ifite akamaro kenshi kuko yubaka umubiri, kandi abantu baroba amafi bakabona amafaranga aturutse ku bantu baje kuzigura.

Amafi ameze neza, ari ku isahani isa n'ubururu, amafi abantu barayakunda kuko iyo atetse aryoha cyane, kandi agatanga amafaranga menshi mu Gihugu, kuko abayaroba iyo barimo kuyacuruza batanga imisoro, maze bakayifashisha bubaka ibikorwa remezo mu Gihugu.

Ifi ibaze neza cyane .Ifi abantu bakunda kuyirya kuko ifite intungamubiri ndetse ikaba inaryoha cyane. Ifi ni nziza ,abantu bayirobye ibaha amafaranga menshi cyane, maze na bo bakabona amafaranga yo guhaha ibindi bintu bifuza kugura.

Amafi menshi cyane ari mu bidobo bisa n'ubururu, amafi abantu barayakunda kuko aryoha cyane , ndetse akaba afite n'intungamubiri nyinshi. Amafi atanga amafaranga menshi cyane mu gihugu kuko abantu bayacuruza batanga imisoro, iyo misoro igakoreshwa iri kubaka ibikorwaremezo biri mu gihugu.

Isambaza zimeze neza zanitse aho zigomba gutunganyizwa. Isambaza ni nziza abantu barazikunda kuko zitanga agasosi kameze neza, ndetse zigatanga amafaranga menshi ku bantu bazicuruza.

Agashyamba gatoya gafite ibiti birebire, ni keza kuko abantu iyo baje kwicara muri aka gashyamba, babona umwuka mwiza kandi n'ababa bafite siterese zose zigashira.

Igiti cya sipuri， kigeze hejuru gikikijwe n'imisave， ndetse n'imibirizi. Imibirizi turayikunda， kubera ko igihe umuntu ari kuribwa mu nda， ashobora gusekura umubirizi akawunywa， ndetse sipuri tuzikoresha tubazamo imbaho，maze tukazikoramo intebe zo kwicaraho.

Umuhanda urimo utubuye dutoya twinshi, ukikijwe n'agapasuparume karimo utwatsi ndetse n'ibigori n'igiti cya avoka. Uyu muhanda ukundwa kunyurwamo n'abantu benshi kuko nta mucucu ugaragaramo, ndetse nta n'impanuka nyinshi zikunda kugaragara muri uyu muhanda.

Inkoko isa nk'iyagurutse igahagarara ku gashipuri, inkoko ni nziza cyane abantu bakunda kuyorora, kuko inkoko zitanga amagi maze abana n'abantu bakuru bakabona amagi yo kurya.

Umurima munini cyane ukikijwe n'agashyamba, iruhande rwa ko gatoya, ndetse n'inzu irimo abahinzi batatu barimo guhinga, n'igiti kirekire gifite amashami meza cyane.

Itunda ryeze rifite ibara mu nda risa nk'umuhondo, itunda abantu bakunda kuyahinga, kuko azana amafaranga menshi, ndetse urubuto rw'itunda abantu bakaba bakunda kuruha umwana utangiye kurya.

Umurima uhinze nk'amaterasi, iruhande rwayo hariho ibyatsi, agashyamba karimo ibihuru, ndetse n'inzu zifite urutoki rw'insina, izo nzu zubakishije amabati y'umweru. Abantu bakunda guhinga mu materasi, kuko birinda isuri, ikaba yatwara ibihingwa bahinzemo.

Amaronji menshi cyane afite ibara risa n'umuhondo, amaronji ni urubuto rukundwa na buri umwe wese kuko abaryohera nk'arimo isukari ndetse akaba afite n'intungamubiri mu birinda indwara.

Abantu babiri bari mu mbuto, bambaye ingofero y'ubururu n'umupira ndetse n'ijipo y'umutuku, basa nk'aho bakikijwe n'abandi bantu benshi cyane, bari kubereka ibyiza by'ubuhinzi, babereka ko guhinga ari byiza cyane kuko bitanga amafaranga.

Imineke ya kamara ihiye n'idahiye harimo ihiye ifite ibara ry'umuhondo n'indi ifite ibara ry'icyatsi. Imineke abantu bakunda kuyirya kuko iryohera nk'irimo isukari ndetse n'igihe umuntu igihe ashonje akunda kwirira imineke.

Amashu ni meza cyane abantu barayakunda kuko atanga umusaruro mwinshi, tukabona ibyo kurya ndetse tukanayajyana ku isoko tukabona amafaranga menshi cyane.

Igihaza kinini cyane kibwataraye, kiri iruhande y'amababi. Igihaza turagikunda kuko kiryoha kandi tukaba tukijyana ku isoko bakaduha amafaranga menshi, tukayagura ibindi biribwa twifuza.

Umumama wapfutse igitambaro , wambaye ijipo y'umukara arimo gukorera ibigori, gukorera ibigori turabikunda kuko bituma bikura neza cyane, maze byakwera tukabona ibyo kurya ndetse tukabona n'amafaranga menshi cyane.

Intoryi zimeze neza cyane. Imbuto y'urutoryi ni imbuto ikunzwe cyane mu guhingwa, kuko nta bwo ipfa ubusa. Buri muntu wese ashobora kuzihinga, kandi ni imwe mu mbuto idapfa guhomba ku isoko. Igihe cyose ujyanye urutoryi ku isoko ubona amafaranga atubutse, waba wakoreshamo n'ibindi bikorwa mu rugo.

Ibigori byeze bimeze neza cyane, abantu bakunda guhinga ibigori kuko byera vuba ndetse bikaba byatanga umusaruro mwinshi ku buryo umuntu yabona ibyo kurya akanasagurira isoko bityo bigatuma abona amafaranga menshi cyane.

Amaterasi y'indinganire ahinze neza cyane, urabona ko hariho ahahinze ndetse n'aho batarahinga, hateyemo ibiti bimeze neza cyane, amaterasi kuyahingamo biba byiza, kuko arinda ubutaka kuba bwatwarwa n'amazi ndetse ahantu bahinze mu materasi ibihingwa byaho, biba ari byiza kandi bitanga umusaruro.

Amateke atatu meza cyane. Aya mateke aribwa ahiye kandi akaribwa barimo kuyatonora. Araryoha cyane kuko aba afite amafufu. Abantu barayakunda kuko aryoha ndetse n'iyo uyajyanye ku isoko bayagura vuba bihuta.

Amateke ya bwayisi ari mu gishanga ameze neza cyane, abantu bakunda guhinga amateke kuko ari mu bitera imbaraga, kandi amatekake ya bwayisi aranahenda cyane kuko usanga iyo umuntu ayajyanye ku isoko, agatebo agura nk'ibihumbi bitanu, bityo buri muntu wese agashishikarira guhinga amateke.

Inkoko nyinshi cyane zifite ibara risa n'igitaka, harimo umuntu wicaye urimo kuzigaburira wambaye imyenda isa n'umukara, inkoko ni nziza cyane kuko zitanga amagi, inyama bikungahaye kuntunga mubiri bigatuma abana bacu bibarinda kugwingira.

Umuntu witeze igitambaro cy'umutuku ndetse yambaye n'agapira k'icyatsi, arimo gukora pacure, pacure ni nziza cyane kuko dushiramo ibiti by'imbuto, maze tukabigemura ahantu bashaka guhinga izo mbuto, maze izo mbuto zigakura neza cyane, kuko baba barazishyize muri pacure zifite ubuziranenge.

Iteke rya bwayisi rimeze neza cyane. Abantu bakunda guhinga amateke ya bwayisi kuko aryoha, ndetse akaba anakunzwe cyane ku isoko.

Inanasi ziri mu mufuka zisa n'umuhondo, iruhande rwaho hariho akadobo gahatiyemo inanasi. Inanasi abantu barazikunda kuko bazifashisha bari gukora umutobe wa beterave ndetse inanasi ziranaryoha.

Ipera ry'inzoga risatuye, ipera ritera apeti rirasa neza cyane, aya mapera abantu barayakunda kuko aba aryohereye mu kanwa, ndetse akaba anasa neza. Iyo uyajyanye ku isoko buri muntu wese aba ashishikariye kuyagura, kuko aryoha cyane.

Ibirayi bya peko byiza cyane, abantu bakunda kubihinga kuko byera vuba ndetse bigatanga umusaruro mwinshi, umuntu akaba yabona ibyo arya akanasagurira isoko, bityo akabona amafaranga yo kongera kugura imbuto, azahinga mu kindi gihe cy'ihinga gikurikiyeho.

Abantu bari ku murongo bahagaze iruhande rw'umurima uhinze neza cyane, bafite amashashi arimo imbuto y'ibirayi, urabona ko bakurikiye umuntu uhagaze imbere mu muririma, ari kubahugura uburyo baraza gutera, iyi mbuto y'ibirayi kandi bano bantu bamuteze amatwi baramukurikiye, kugira ngo babashe kumenya uburyo barabikora neza.

Ibirayi bya kinigi biri mu mufuka munini ufite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi. Ibirayi ni byiza cyane kuko bitanga amafaranga ku muntu wabihinze ndetse bikanatanga intungamubiri ku muntu wabihashye.

Amapapayi atarasoromwa ari ku giti, amwe yeze andi ateze. Ipapayi ni nziza cyane abantu barayikunda kuko ari umuti. Hari igihe umuntu arwara bakamutegeka gushaka ipapayi kugira ngo bimugabanyirize uburwayi afite.

Inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ,yambaye iherena ku gutwi ndetse n'indi irimo ifite ibara ry'umukara, biri mu biraro byubakikije ibiti bikomeye cyane, kubera ko abantu bakunda kuzorora ,kuko babona amata ndetse bakabona n'inyama.

Ibishyimbo bya Nyiragisenyi bimeze neza cyane. Abantu bakundaga guhinga ibishyimbo ,kuko ari bimwe mu byubaka umubiri ndetse ibi bishyimbo bya Nyiragisenyi byera vuba kandi bigashora cyane.

Ibigori byiza bifite ibara ry'icyatsi kandi bihetse ni byiza cyane, abantu bakunda kubihinga kuko bitanga umusaruro mwinshi cyane bakabona ibyo kurya ndetse n'amafaranga bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imiteja myinshi cyane iri mu ndobo isa n'icyatsi, imiteja abantu barayikunda kuko iryoha cyane, ndetse umuntu wayihinze akayijyana ku isoko, maze akabona amafaranga menshi cyane.

Umumama ukenyeye isharupe y'icyatsi, wambaye n'ikanzu, afashe impombo arimo gufuhira ibimera. Gufuhira ibimera n'imbuto ni byiza cyane, kuko bituma bikura vuba, ndetse nk'igihe izuba ryabaye ryinshi bikaba byarinda ibimera kuma, maze bigahora bishishe bimeze neza cyane.

Umuntu wambaye umupira w'umukara ufite isuka k'urutugu witaba terefone, iruhande rwe hari ibigori byiza cyane byeze, mwese muze duhinge kuko biduha amafaranga menshi.

Ibirayi biri mu dusandugu dutandukanye. Ibirayi birasa neza cyane, abantu bakunda kubirya kubera ko ibirayi ni byiza byubaka umubiri kandi biranaryoha cyane.

Isekurume nziza cyane ifite amabara umweru, igitaka, umukara, iri aha mu gashyamba gatoya cyane, mwese ndabashishikarije, muze dushake iki cyororo cy'iyi hene, kuko ni nziza cyane.

Puwavuro zimeze neza cyane, iruhande rw'izi puwavuro hariho karoti ndetse na seleri. Puwavuro abantu bakunda kuziteka mu nyama hamwe na seleri, kuko zituma izo nyama zihumura neza cyane kandi zikaba zifite n'uburyohe burenze cyane.

Imyumbati imeze neza cyane. Abantu bakunda guhinga imyumbati, kuko ari imwe mu bitera imbaraga ndetse akaba ari n'imbuto zera vuba, kandi zikaba zikunzwe ku isoko. Imyumbati itanga umusaruro mwinshi cyane, kandi tukaba twabona ibyo turya mu rugo ndetse tukanasagurira isoko.

Avoka isatuye ifite ibara risa neza cyane. Isa neza cyane cyane, iranaryoshye ndabashishikariza mwese ko mwaza tukagura iyi avoka ni nziza cyane.

Ibisheke bisa n'umutuku, ibisheke abantu barabikunda, kuko babikoramo isukari, isukari ikaduha amafaranga menshi cyane dukoresha tugura ibindi bisheke byo gukoramo indi sukari.

Abantu bikoreye imifuka irimo amashu ndetse n'igitoki, bafashe n'akadomora. Bari kugenda banyura iruhande rw'umurima uhinzemo amashu, ndetse n'ahantu hari agashyamba k'ibyatsi bimeze neza cyane.

Abantu bari mu mumero w'ibishyimbo bambaye imyenda isa n'umutuku bakenyeye n'ibitenge birimo amabara y'ubururu, aba bantu bari mu bishyimbo bari kumwe n'umujyanama uberekako guhinga ibishyimbo ari byiza. Guhinga ibishyimbo abantu barabikunda kuko bituma babona ibyo kurya ndetse bagasagurira n'isoko, bakabona amafaranga bakoresha n'ibindi bikorwa bifuza gukora.

Ibijumba byiza cyane kandi binini cyane, bifite ibara ry'umutuku bya tura. Mwese muze duhinge ibi bijumba kuko bifite intungamubiri, kandi byinjiza amafaranga menshi cyane.

Ipera ryiza cyane ipera riraryoha abantu bakunda kurirya, kuberako ipera riri mu mbuto kandi imbuto zirinda indwara. Ipera ryinjiza amafaranga nk'igihe umuntu yahinze amapera menshi maze akayajyana ku isoko.

Umuntu wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru, n'umutuku ,ndetse n'umukara, wambaye n'agapfukamunwa ari mu kajaride karimo imbuto zitandukanye ,akajaride keza cyane, kuko umuntu ukarimo aba arimo guhumeka neza cyane, kuko gatanga umwuka mwiza kakakira umwuka mubi umuntu asohora.

Imifuka ipakiyemo imbuto z'ibirayi ndetse n'ibijumba. Ibirayi abantu bakunda kubihinga, kuko igihe babyejeje, bapakiza imifuka myinshi bakajyana ku isoko bakabona amafaranga, ndetse bakabona n'ibyo kurya.

Igiti kimeze neza cyane gifite voka zenda kwera, kuko abantu barazikunda cyane kubera ko zifite akamaro kenshi mu mubiri kandi zikaba zitanga n'amafaranga mensh.

Ibigori byiza cyane bifite ibara ry'icyatsi, bifite ibigori byiza cyane. Mwese nimuze duhinge ibi bigori, kuko bifite agaciro cyane mu gihugu.

Puwavuro nziza cyane zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo. Izi puwavuro ni nziza cyane. Mwese muze dukore ubworozi bwa puwavuro kuko ni bwiza cyane, kandi bwinjiza amafaranga menshi cyane.

Igiti cya avoka kimeze neza cyane. Abantu bakunda gutera igiti cya avoka kugira ngo babone izo kurya, ndetse no kuzijyana ku isoko bakabona amafaranga. Igiti cya avoka cy'imbangurire abantu bakunda kugihinga kuko cyera vuba cyane.

Soya imeze neza cyane, abantu bakunda guhinga soya kuko ari igihingwa cyera vuba, ndetse ikaba yifashishwa nk'igihe umuntu agiye kubitesha ifu y'igikoma, soya ifite intungamubiri nyinshi ku bana batoya ndetse n'abantu bakuru.

Impungure ziri mu mifuka ya kirojana isa n'umweru, impungure abantu bakunda kuzihinga kuko bazigemura ku bigo by'amashuri, abanyeshuri bakabona ibyo kurya, ndetse ibigori biraryoha cyane, kandi bigatanga amafaranga menshi atubutse.

Imbuto nziza cyane ziri mu mifuka itandukanye, harimo amasaka, ibigori, soya, ingano, mwese muze tugure izi mbuto, kuko zikungahaye ku mubiri, kandi zirahendutse cyane.

Ubunyobwa buri mu bishishwa, ndetse n'ubutonoye burambitse ku gisanduku gikoresheje imbaho. Ubunyobwa abantu bakunda kubuhinga, kuko babukarangamo ubwo guhekenya, ndetse ubundi bakabubetesha cyangwa bakabusekura, maze bakabushyira mu biryo, mu cyimbo cy'uko badafite amavuta yo guteka mu biryo.

Umugabo wunamye wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ingofero, arunamye arimo kugosora ibigori byiza cyane, biri mu mifuka itandukanye y'amabara menshi menshi cyane.

Amasaka, ibigori, ingano, soya biri mu mifuka myiza cyane itandukanye. Ndabashishikariza mwese kuza kugura ibi biribwa biri imbere y'inzu. Ni byiza cyane kandi birahendutse cyane.

Umuntu uri mu murima w'ibishyimbo bigufi uri gusoroma imiteja, ibishyimbo bigufi abantu bakunda kubihinga, kuko byorohera buri muntu wese bidasaba gushingirira kandi bikera vuba cyane.

Amajeri meza cyane, afite ibara ry'icyatsi arasa neza cyane, mwese ndabashishikariza ko twahinga amajeri, kuko yinjiza amafaranga menshi cyane.

Abantu bari mu gishanga barimo guhinga umuceri. Abantu bakunda guhinga umuceri kuko ari ikiribwa gitubuka, ndetse bakaba babijyana ku isoko bakabaha amafaranga menshi cyane.

Soya imeze neza cyane, abantu bakunda guhinga soya kuko bayivanga mu y'indi fu y'ibigori maze tukabona ifu yujuje ubuziranenge, maze n'umuntu wayijyanye ku isoko akabona amafaranga menshi cyane, kuko soya ifite agaciro kanini cyane.

Ibigori byanitse ku mahema asa n'umweru ,ubona ko harimo abantu barimo kubisasa neza. Kwanika ibigori ,abantu barabikunda kuko bituma igihe umuntu agiye kubetesha, kawunga iza isa neza. Ndetse kwanika ibigori birinda kuba ibigori byabora cyangwa ngo imbuto ibe yasa n'umukara.

Imvirope zisa n'igitaka zirimo imbuto nyinshi zitandukanye, harimo inzuzi, amagi ,ibishyimbo ndetse n'izindi mbuto. Imbuto z'inzuzi abantu bakunda kuzinaza kugira ngo babone umurama babone bihaza ndetse n'ibishyimbo, kuko ibishyimbo bitanga umusaruro mwinshi cyane.

Ibigori by'amabara biri mu kibase gifite ibara ry'igitaka. Abantu bakunda guhinga ibigori by'amabara kuko biryoha cyane ndetse bikera vuba kandi ari binini cyane.

Ibiganza bifashe ingano, ingano turazikunda cyane kuko iyo tuzibetesheje dukuramo ibigwatike maze tukabirya, bikadufasha gukomera ku mubiri umuntu ntabasha kuyengera yariye umutsima w'ingano.

Ibigori byinshi cyane kandi binini cyane, bifite ibara risa n' umuhondo ni byiza cyane, mwese nimuze dushishikarire guhinga iy' imbuto ni nziza cyane.

Ikibenuza cy'imodoka gipakiye ibishariro, gifite ibara ry'umutuku n'amapine atatu. Ikibenuza cy'imodoka ni cyiza, kuko gifasha imodoka gupakira imizigo myinshi cyane, ndetse na nyirimodoka akabona amafaranga menshi.

Umumama wunamye uhetse n'umwana, arimo kugosora ingano, ingano ni nziza cyane, kuko tuzibetesha tugakoramo igikoma, tugatekamo umutsima, kandi ingano zikungahaye ku ntungamubiri, umuntu wariye umutsima w'ingano arakomera cyane, nta bwo ayengera.

Ubunyobwa bukaranze, busatuyemo kabiri n'ubudasatuye, ubunyobwa abantu barabukunda kuko buryoha, ndetse ni kimwe mu rubuto umuntu ajyanye ku isoko, buri muntu wese aba akeneye kugura ngo ahekenyeho.

Ibishyimbo bigufi bifite uruyange bimeze neza cyane, abantu bakunda guhinga ibishyimbo bigufi kubera ko byera vuba. Ibishyimbo bigufi byera vuba ugereranyije n'iby'imishingiriro, abantu bakunda guhinga ibishyimbo bigufi ,kuko bikundwa cyane.

Inka zifite amabara: umukara, umweru, igitaka, inka abantu bakunda kuzorora, kuko babona amata, bakabona inyama, ndetse bakaba banazijyana kuzigurisha bakabona amafaranga.

Umuntu wambaye isarubeti y'ubururu, ufashe inkoko isa neza cyane ndetse n'imishwi isa n'umweru myinshi cyane, mwese muze tuyigure ni myiza cyane.

Inka zimeze neza cyane, zifite amahembe manini n'amabara asa n'igitaka, umweru, n'umukara. Izi nka urabona ko ziri mu rwuri rumeze neza cyane, zirimo kurisha ziri mu gashyamba gatekanye, izi nka zitanga umukamo, zitanga inyama, ndetse n'amafaranga twifashisha mu kugura ibindi bintu bitandukanye.

Ikibuga kinini kirimo inka ifite ibara risa n'umukara, harimo ikidomoro cy'umuhondo, ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda y'umukara n'igitaka. Ikibuga giparitsemo indege, harimo abaveterineri barimo gukingira inka. Abaveterineri abantu barabakunda, kubera ko batuma inka zacu zigira ubuzima bwiza.

Amagi afite ibara risa n'umweru menshi ari mu makulete, y'umutuku, y'ubururu, y'icyatsi. Amagi abantu barayakunda kuko afasha abana gukura ndetse agatuma tugira ubuzima bwiza, maze twayajyana no ku isoko tukabona amafaranga menshi.

Imishwi y'inkoko ni myiza cyane, irasa neza cyane, mwese ndabashishikariza kuza kuyigura, kuko ni mwyza cyane kandi irahendutse, iri ku giciro gitoya cyane.

Inka nziza cyane, ifite ibara risa n'igicuku ndetse n'umukara iri mu kiraro cyubakishije ibiti byiza cyane, mwese muze dukore ubworozi bw'izi nka kuko ni bwiza cyane.

Ikiraro cyubatse neza cyane, kirimo inyana ifite ibara ry'umweru, igitaka nziza cyane, harimo umuveterineri, wambaye itaburiya ry'ubururu, ndetse n'umworozi w'inka uyifashe barimo kuyivura indwara, mwese nimuze tuvure inka zacu ubwo burwayi, kuko ni bwiza cyane.

Urukwavu rufite ibara risa n'umweru, iruhande rw'urwo rukwavu hariho umufuniko w'indobo w'umutuku wubitseho n'indi ndobo y'umweru. uru rukwavu ruri mu kibuti cyubakishije ibiti byiza, urukwavu ni rwiza cyane kuko rwororoka vuba, buri muntu wese akunda korora urukwavu.

Ifamu y’ingurube irimo ingurube zimeze neza cyane ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, hakaba hasi hapavomyemo sima, harimo umuntu urimo kuzikorera neza, akazigirira isuku. Abantu bakunda kuzorora kuko ari itungo rigufi umuntu ajyana ku isoko akabona amafaranga vuba ndetse bakaba baziryamo n'akabenzi.

Inka ifite ibara ryiza cyane, umuntu wambaye imyenda yenda gusa n'icyatsi, ndetse n'undi wambaye ipantaro y'ubururu. Barimo kuyitera umuti kugira ngo itarwara indwara.

Inka zifite ibara ry'igitaka, umukara, ndetse n'umweru abantu bakunda kuzorora, kuko zitanga amata, inyama, ndetse n'ifumbire, zikanatanga amafaranga abantu bakoresha mu rugo bagura ibikoresho byinshi bitandukanye.

Inka iri mu kiraro ifite ibara ry'umukara, ndetse n'akabara k'umweru ku mutwe, iri mu kiraro cyubatse neza cyane cyubakishije ibiti, ndetse inka irimo kunywa amazi mu gisanduku cyabugenewe inyweramo amazi.

Ihene zifite ibara ry'igitaka umweru ndetse n'umukara, ziri mu gipangu cyubakishije ibiti, ndetse n'amabati harimo umuntu uteruye ihene, wambaye imyenda y'umweru ni nziza cyane , kuko zifite amabara meza cyane.

Amahene afite ibara ry'umweru w'igitaka ndetse n'umukara ni meza cyane. Amahene atanga ifumbire ndetse agatanga n'inyama, aya mahene akikijwe n'uruzitiro rwubakishije amabati, ibiti bikomeye bimeze neza. Hariho umuntu wambaye imyenda isa n'umweruru uteruye ihene.

Ingagi nziza cyane iri mu migano, ndetse no mu gashyamba, iyi ngagi ni nziza cyane, mwese muze tujye kuyisura, kuko yinjiza amadovize menshi mu gihugu cyane.